Ndikubona imifuka myinshi irimo ifumbire mvaruganda, buri mufuka urimo ibiro igihumbi magana atatu.

Ndabona ahantu hahinze ibirayi, hari n'ibitoki, hari n'urugo ruri hafi, hariho n'ibiti.

Ndabona ibihingwa bikiri bitoya, ni ingemwe, biri ahantu habyo, birimo birasurwa n'abahinzi.

Ndabona imiteja iciwe irambitse ahantu. Ni imiteja itari myinshi isa n'icyatsi iciwe vuba.

Ndi kubona inyamaswa nini, iri kumwe n'utwana twayo, inyamaswa iba mu mazi yitwa imvubu. Ishobora no kugendera ku butaka.

Ndi kubona umuntu afashe akanyamaswa k'ishyamba gafite ubwoya bwinshi bw'umukara . Gafite n 'inzara ndende zimeze nk' intoki z'umuntu.

Ndikubona inyoni ifite amabara menshi atandukanye, arimo ubururu, harimo umukara, icyatsi n'umuhondo ifite umunwa muremure w'umukara.